Ni mu isoko ry'ibiribwa harimo abantu bagaragara ko bari kugurisha, ndabona imboga zitandukanye, inyuma yaho ndahabona ibindi bintu biri gucuruzwa ,ndahabona ikimeze nk'umutaka ,ndahabona hirya ibiti ndetse hirya yaho hari n'inyubako.

Akameza karekare gafite udutebe turimo ibara rya shokora, gateretseho ibirahure biririmo umutobe uko bisa aha ahantu haritaruye barahasohokera.